Umuntu uri imbere, ufite indangururamajwi, akaba ari kumwe n'urubyiruko imbere ye n'abandi bantu bicaye, harimo n'abo mu nzego z'umutekano, arimo arasobanurira urubyiruko, ibijyanye n'amateka yabobo.

Umudamu uhagaze ufite ajenda mu ntoki, akaba afite n'indangururamajwi, wambaye ikanzu igizwe n'amabara abiri, akaba kandi yambaye rinete ndetse n'amaherena arimo atanga ubutumwa.

Umugabo uhagaze afite indangururamajwi, yambaye ishati y'umweru iriho igirango cya FPR, aho ahagaze hariho ikirango cya FPR cyanditseho ngo inteko rusange y'umuryango wa RPF inkotanyi.

Abantu bari hamwe mu nama, abantu b'ingeri zitandukanye. Harimo n'inzego z'umutekano, inzego za gisirikare RCS ndetse n'abandi bantu batandukanye. Bafite amazi imbere ku meza, igitambaro kiri ku meza ni umuhondo.

Abantu bari kubyina imbere yabo hari itente ryubatse neza. Ririho amabara atandukanye, rifite n'amabara agizwe n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Abantu mu nzego zitandukanye harimo n'abo mu nzego z'umutekano bambaye impuzankano.

Urusyo ningasire, agaseke, inkoko ebyiri, imwe iriho ifu, indi iriho amasaka n'ubundi bagiye gusya bakoresheje urusyo n'ingasire yarwo.

Imodoka idufasha gukwirakwiza ibijyanye n'amashanyarazi, turabona aho abakozi babishinzwe bambaye amajire ndetse n'ingofero.

Umuntu urimo gucomeka insinga z'amashanyarazi ku mapoto abiri ateganye, yambaye ingofero y'umweru, ndetse n'imyenda y'akazi yabugenewe bambara mu gihe barimo gukora amashanyarazi.

Abagabo babiri, bari mu kigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi, bose bambaye imyenda isa, amashati y'umutuku ndetse n'amajire n'ingofero zitukura, imbere bafite tabuleti.

Ikiraro cyo mu kirere kirekire, gifite ibyuma, gikozwe n'imbaho, ku mpera zacyo aho giheherereye hakaba hari inkuta ebyiri, zigizwe n'ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Abantu benshi bari hamwe imbere y'inzu ifite ibara ry'ubururu, iruhande hakaba igiti cy'umwembe, abo bantu bambaye amabaji ndetse n'ingofero, imbere yabo barangajwe n'uwambaye itaburiya y'umweru.

Abantu benshi bahagaze ku rugomero, abantu bagizwe n'inzego z'umutekano by'umwihariko polisi y'u Rwanda bambaye inkweto zabugenewe, barimo bareba imikurire n'imiterere y'uru rugomere.

Abantu bahagaze, bari no kubaka ikiraro, ikiraro bubatse bakoresheje amabuye n'umucanga hakaba hariho ibintu ku mpande by'icyatsi.

Abantu mu nzego zitandukanye by'umwihariko mu nzego z'umutekano nka polisi, umudamu wambaye imkenyero, agapira k'umutuku, uwo akaba yambaye n'urunigi, abandi babiri bakaba bambaye amarinete.

Abantu bicaye hamwe, bazengurutse umuntu uri kubaha inyigisho, ahagaze imbere, harimo n'inzego z'umutekano by'umwihariko, igisirikare cy'u Rwanda.

Abantu benshi bahagaze ahantu mu kibaya, bamaze gukora umuganda, bamwe bafite amasuka arambitse iruhande rwabo, harimo uhagaze afite indangururamajwi usa naho hari icyo arimo kubabwira.

Abadamu bicaye ahantu hamwe, bamwe bumiwe abandi bararangaye, bicaye nk'abari mu nama kandi bateze amatwi uri kubahugura.

Igisambu cyirimo Sofiya, hirya Sofiya hakaba hari ibiti by'inturusu, ibinini ni bitoya, iyo Sofiya kandi ikaba mu byatsi bito cyane bizwi nk'urwiri.

Igihuru kinini cyane, kirimo abantu, barimo kugitema, kigizwe n'ibiti, ibyatsi byakuze ndetse n'ibindi byinshi bivangavanze.

Abamotari bari mu tuyira two muri karitsiye haparitse n'izindi moto hari iduka akazu ka emutiyeni, ndetse ukaba ugizwe n'amabuye.